Abantu bagiye kuvoma ku iriba rusange, ndetse ni rimwe mu mariba avoma amazi avanywe i kuzimu bakunze kwita pompe.

Abantu b'umubare nyamwinshi bigaragara ko bari mu mahugurwa. Abo hirya bafite impapuro bari kwandika, abandi bateze amatwi bari kumva.

Ibyuma bya kizungu byifashishwa mu buvuzi ndetse biri mu cyumba gifite ishusho y'umweru, harimo na za mudasobwa zifashishwa mu kugaragaza amakuru abonetse ku murwayi.

Icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana bato, kirimo umuzenguruko w'amahundo abiri asobekeranije n'igishushanyo kigaragaza ikarita y'Isi, hagati harimo umuntu, umugore uteruye umwana.

Umwana wambaye umwenda w'ibara ry'umweru n'umukara, ku gice cyo hejuru afite imisatsi miremire, ndetse hasi yambaye umwenda w'ibara ry'umukara.

Ishusho igaragaza abakobwa babiri barimo kuganira, imbere yabo hateretse agakoresho karimo itaka n'ishusho y'abantu babiri.

Umuntu w'igitsina gabo ufite umusatsi uringaniye, ubwanwa buringaniye, uri guseka wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ryiganje.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bafite imiti yoza amenyo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo.

Abantu batandatu harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, inyuma yabo hari ururabo rw'icyatsi ndetse bicaye imbere y'inzu.

Abantu barindwi barimo igitsina gabo n'igitsina gore, ab'igitsina gore ni babiri, ab'igitsina gabo ni batanu.

Ishusho igaragaza inzu y'ububiko bw'ibikoresho by'ubwoko butandukanye, yiganjemo amabara yererutse.

Inzu, ifite umuryango ukinguye, y'ivuriro, ritanga imiti, y 'abantu ivura indwara z'abantu.

Inyubako iriho icyapa kigaragaza ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe kuvurirwamo no gukurikirana ibijyanye na kanseri.

Inzu irimo ibikoresho ndetse ifite imiryango ikinguye, imbere muri yo harimo ishusho riri muri cadire ririho abantu babiri.

Inzu igaragaza imiryango itatu, umwe muri yo burimo ububiko bw'imiti isa nkaho ari inzu y'ubuvuzi bwa kizungu.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibitanda, utubati ndetse n'amaguru yifashishwa guhagarikaho serumu mu gihe umurwayi arimo kwitabwaho.

Inzu igaragaza ishusho n'isuku nyinshi ndetse imurikiwe n'amatara yo mu bwoko bw'icyatsi ndetse n'ayafite ishusho yererutse.

Igikoresho cyifashishwa mu kuvura imvune bigaragara ko gishyirwa mu ivi mu gihe umuntu yagize ikibazo cy'ivi ndetse gifite ibara ry'umukara n'umweru.

Umuntu w'igitsina gore uri muri siporo, yambaye ibikoresho byumvikaniramo umuziki mu matwi ndetse ari kugorora amaboko n'umugongo.

Umuntu w'igitsina gore ufatishije amaboko ye munsi y'ibirenge, bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri ndetse yambaye n'imyenda yo gukorana siporo.

Ishusho igaragaza igikombe cy'ikirahure kirimo gusukwamo amazi meza yo kunywa.

Ishusho igaragaza ukuboko n'igice cyo hasi cyo mu ntoki bigaragara ko ari umugore ufashe ururabo mu ntoki, ururabo rufite ibibabi by'icyatsi kibisi ndetse n'uturabo.

Igiti kikiri gito gifite udushami duto, gifite ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu butaka.

Amacupa akoze mu birahure harimo apfundikije imifuniko y'umweru ndetse n'apfundikije imifuniko ikoze mu ibara rya oranje.

Ibimera by'icyatsi kibisi, ndetse bigaragara ko ari igiti cy'umuravumba, kikaba cyifashishwa mu kuvura inkorora mu muhogo n'ibindi, inyuma yacyo hari indabyo zihateye.

Amacupa y'ubwoko bune bukoze mu buryo bumwe ariko butandukaniye ku mabara yayo, ashushanyijeho ibimera bigaragara ko ari ibirimo imbere byifashishwa mu buvuzi.

Ibiti bigaragara ko bifite amashami atari menshi cyane ndetse bisa nkaho ari indabyo, kuko munsi yabyo hari izindi ndabo ngufiya.

Igiti kikiri gitoya gifite amababi yaguweho n'imvura gitoshye kiri kuzamuka.

Icupa rikoze mu ibara ry'umweru ririho icyapa cyandikishijeho amagambo mu mabara atandukanye, ripfundikiye ariko ntirigaragaza ibirimo imbere.

Imiti yo mu bwoko bw'ibimera, itandukanye, yifashishwa mu kuvura, irimo umuravumba, igikakarubamba n'indi.

Amacupa abiri, rimwe muri yo rigaragaza ko ibirimo imbere, bikoze mu imbuto z'imyembe, irindi bigaragara ko.